Inama yahuje abayobozi batandukanye bo mu rwego rw'igihugu ndetse n'abayobozi bo mu Karere ka Nyagatare, yashishikarizaga abayobozi gushyira umuturage ku isonga.

Inama iyobowe n'umubyeyi yiga ku burenganzira bwa muntu ndetse n'umutekano, ni imwe mu yaranzwe n'ibitekerezo byinshi abaturage batanga ibitekerezo.

inama yayobowe n'umubyeyi uturutse mu kigo cy'ubuzima, yakanguriraga urubyiruko kwirinda indwara zandurira mu myanya ndangagitsina ndetse no gukoresha agakingirizo kandi neza.

Inama yahuje abayobozi batandukanye bo mu rwego rw'ubuzima, yigaga ku kuntu bagiye gutangiza amahugurwa ku rubyiruko ndetse bakanabigisha uburyo bashobora gukoresha agakingirizo mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu myanya ndangagitsina.

Abayobozi batandukanye ba Ejo heza bakanguriye abaturage nko kujya batanga imihigo babikoreye mu masibo yabo, aha hagiye hatangwa udutabo kuri buri muryango, umuryango ukavuga ibyo uzageraho mu gihe kingana n'umwaka.

Inama y'abayobozi yiga ku buzima bw'abana ni imwe yatangiriye mu Karere ka Nyagatare, aho abayobozi bagiye batandukanye bakanguriraga abaturage kwirinda indwara zandura ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Mu muco nyarwanda abaturage ba kera nko mu myaka nk'ijana ishize, wasangaga biyogoshesha amasunzu ndetse ukaba utatandukanya umusatsi w'abagabo n'uw'abagore.

Mu muco nyarwanda agaseke kari gafite uruhare runini cyane cyane mu bukwe. Iki gikoresho cyatwarwagamo imyaka izwi nko ku izina ry'intwererano ndetse kakagira n'indi mimaro itandukanye.

Mu muco nyarwanda ikibuguzo yari umwe mu mukino wakinwaga n'abantu babiri akenshi wakundaga gukinwa n'abasaza. Nubwo muri iki gihe uyu mukino ukigaragara ariko ntabwo ari cyane ugereranyije na mbere.

Imyambaro itandukanye irimo imyitero, amasaro bambaraga mu ijosi ni bimwe mu byarangaga ababyinnyi baribyinaga imbyino za gakondo cyangwa se imbyino za kinyarwanda.

Inkangara iri mu muco nyarwanda kera yakoreshwaga mu bukwe igatwarwamo inzoga, ibitoki, amasaka ndetse n'ibindi bitandukanye. Iki gikoresho cyatwarwaga n'igitsina gore.

Mu muco nyarwanda abari n'abategarugori, bakenyeraga umwitero ndetse bakikenyeza n'utundi tuntu tw'umweru mu mutwe, ubundi bakabyina imbyino za gakondo.

Mu muco nyarwanda imbyino gakondo kugeza na n'ubu ziracyariho aho usanga abari n'abategarugori, abasore ndetse n'abagabo babyina bambaye imyitero ndetse n'amayugi.

Imbyino za kinyarwanda, ni zimwe mu zarangaga umuco gakondo w'u Rwanda, aho wasangaga abari n'abategarugori ndetse n'abagabo, babyina, bakaririmba ndetse bagasabana.

Imyambaro nk'imyitero, amayugi ndetse n'ibindi bitandukanye, ni bimwe mu byarangaga ababyinnyi b'imbyino za gakondo. Ibi bikaba ari bimwe mu biranga umuco nyarwanda.

Imbyino gakondo ni kimwe mu bigaragaza ko umuco nyarwanda ukiriho, aho usanga abategarugori, abagabo, abasore ndetse n'abari, barimo barabyina imbyino nziza cyane.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi, barasabwa kujya bitondera izi nsinga mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ndetse n'impanuka za hato na hato.

Amapoto anyuzwaho insinga z'amashanyarazi, agomba kwitonderwa ndetse akarindwa no kwangirika. Ibi ni mu buryo bwo kwirinda impanuka zishobora gutezwa n'inkongi y'umuriro w'amashanyarazi.

Abakozi b'ikigo k'igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, barakangurirwa kujya bakora aka kazi kabo neza bitonze, mu rwego rwo kwirinda impanuka zishobora kuvamo n'impfu z'abaturage batandukanye.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, barasabwa kujya bitonda mu gihe bari gukora ku nsinga. Ibi bibafasha kwirinda impanuka ndetse zabaviramo n'urupfu.

Ibyuma binyuzwaho insinga zigemura umuriro w'amashanyarazi ni bimwe mu bigomba kwitonderwa. Ubuyobozi bw'ibigo bishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, birakangurira abaturage bose kwirinda kwegera ahantu hari insinga kuko bishobora kubaviramo urupfu.

Abakozi bakorera ibigo bishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi basabwa kwitondera ibi byuma kuko hashobora kubaho impanuka, bakaba bahasiga ubuzima.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi, ni bamwe mu bakora umurimo mwiza cyane bakwiye no gushimirwa, aba bakozi barasabwa kwitwararika mu gihe bari kumanika insinga kuko bashobora guhuriramo n'ibibazo birimo n'urupfu batitonze.

Abakozi b'ikigo gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, basabwa kwitondera izi nsinga kuko zishobora guteza impanuka hakaba havamo n'urupfu ku baturage.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ni bamwe mu bagomba kwitondera iyi gahunda kuko iyo ikozwe nabi, ishobora guteza impanuka, zavamo n'urupfu rw'abaturage.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi barasabwa kujya bitonda mu gihe bari gukora aka kazi kuko bashobora kugakora nabi kakabaviramo n'urupfu.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kubaka ibyumba by'amashuri mu rwego rwo kwirinda ubucucike, ibi ngibi bikazafasha abanyeshuri kwiga neza nta kavuyo maze bagafata neza.

Leta y'u Rwanda ikomeje kuba indashyikirwa, aho iri kubaka imihanda igiye itandukanye ndetse n'ibindi bikorwaremezo. Abaturage barasabwa kubungabunga ndetse no kwita kuri ibi bikorwaremezo kuko ari bo bifitiye akamaro.

Inyubako za Leta harimo amateme, amashuri, amavuriro ndetse n'izindi nyubako, abaturage barashishikarizwa kubyitaho bakirinda kubyangiza n'aho byangiritse bakajya babyisanira.

Inyubako za Leta nk' amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bitandukanye, ni zimwe mu zigomba kwitabwaho n'abaturage muri rusange kuko ari bo zifitiye akamaro.

Zimwe mu nyubako za Leta nk'ibiro by'imirenge, ibiro by'utugari ndetse n'ibindi ni zimwe mu zigomba kwitabwaho kuko zifite umumaro munini ku baturage ndetse no ku gihugu muri rusange.

Inyubako za leta nk'amashuri, amavuriro ndetse n'izindi zitandukanye, ni zimwe mu zigomba kwitabwaho n'abaturage kuko aribo ziba zifitiye akamaro.

Inyubako za Leta ndetse n'ibindi bikorwa remezo nk'amashuri, amavuriro ni bimwe mu bigomba kwitabwaho ndetse bigacungirwa umutekano n'abaturage kuko aribo bifitiye umumaro.

Inyubako za leta zirimo amagororero amashuri amavuriro ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bigomba kwitabwaho n'abaturage muri rusange kuko aribo bifitiye akamaro.

Inyubako za Leta ni zimwe mu zigomba kwitabwaho cyane cyane nk'amagereza aba afungiwemo ingororwa. Ibi bigomba kwitabwaho mu rwego rwo gusigasira ibikorwaremezo.

Mu rwego rwo gutanga ubutabera Leta y'u Rwanda ikomeje gukurikirana abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ibi byavuzwe n'umuyobozi mu nama ndetse yigisha abaturage anabasobanurira uburenganzira bw'ikiremwamuntu.

Abayobozi batandukanye bo mu nzego zitandukanye nk'abasirikare, abapolisi ndetse n'abaturage muri rusange, bahuriye mu nama yigaga ku burenganzira bwa muntu ndetse banabasobanurira uko ubutabera butangwa.

Mu rwego rwo gutanga ubutabera ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, abayobozi hamwe n'abaturage bakoze inama babasobanurira uko bagomba kwitwara bubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse bimakaza n'umutekano.

Abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage bahuriye mu nama rusange, baganira ku buryo ubutabera butangwa ndetse n'uburyo uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'abaturage muri rusange ndetse n'abakozi bacyo, ni bamwe mu batangije amahugurwa yo gukangurira abaturage kugana amabanki bakiguriza.

Abayobozi ndetse n'abaturage mu nama nyuma y'umuganda, baganiriye ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'uko ubutabera bugomba gutangwa.

Ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi abaturage ndetse n'abayobozi bahuriye mu muganda rusange, urangiye bakora inama abayobozi babasobanurira iby'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye harimo urwego rwa Polisi, urwego rw'Ingabo ndetse n'abandi bayobozi, ni bamwe mu bateraniye mu nama yigaga ku by'umutekano ndetse n'ubutabera.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'abatwara ibinyabiziga byabo bwite ku giti cyabo, bishimira ibyapa bashyize mu muhanda, bibarangira, ntibayobe.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo rusange ku magare, barakangurirwa kubahiriza amategeko y'umuhanda, birinda kurangara mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse n'imfu z’abantu.

Abakora akazi ko gutwara ibintu ku mapikipiki ndetse n'amagare ni bamwe mu basabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka zibera mu muhanda ndetse no kurengera uburenganzira bw'abanyamaguru.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo rusange mu modoka, barasabwa kubahiriza amategeko agenga umuhanda, mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse no gusigasira ubuzima bw'abaturage baba batwaye.

Mu ntara zigiye zitandukanye sosiyete itwara abagenzi izwi ku izina rya Ritiko yagiye ihashyira ibice cyangwa se aho wasanga ibi binyabiziga mu rwego rwo koroshya ingendo.

Abakoresha imihanda baba batwara ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, barakangurirwa kubahiriza amategeko y'umuhanda cyane cyane kujya bambukira ahabugenewe ku banyamaguru, abatwara ibinyabiziga na bo bakubahiriza ibyapa ndetse n'andi mategeko y'umuhanda.

Abakora ingendo zitandukanye ndetse n'abatwara abantu mu buryo rusange, barashimira leta y'u Rwanda ibyapa yagiye ishyira ku muhanda mu rwego rwo kubaburira ndetse no kwirinda impanuka zibera mu muhanda.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu modoka barakangurirwa kujya bubahiriza amategeko y'umuhanda kandi bagatwara abantu bagenwe kujya mu kinyabiziga, aha twavuga nko ku modoka kutarenza umubare igomba gutwara.

Mu Karere ka Nyagatare aho ni mu Ntara y'Iburasirazuba hasangwa imihanda myiza y'icyerekezo ifasha abaturage baho kugenderana byoroshye ugereranyije n'ahandi.

Abayobozi ndetse n'abaturage bahuriye mu muganda rusange wo ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi maze bubakira abatishoboye ndetse banasobanurira abaturage uburyo bagomba kwicungira umutekano.

Ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi abaturage ndetse n'abayobozi bahuriye mu muganda rusange, hanyuma bakora inama abayobozi bashishikariza abaturage kwicungira umutekano, buri wese aba ijisho rya mugenzi we.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye, abaturage ndetse n'abasirikare ni bamwe mu bahuriye mu gikorwa cy'umuganda hanyuma baganira ku bijyanye n'umutekano, bakangurira n'abaturage gucunga umutekano buri wese aba ijisho rya mugenzi we.

Abayobozi bo mu nzego z'umutekano barakangurira abaturage kujya bicungira umutekano, barara amarondo ndetse birinda no guteza umutekano mukeya yaba muri sosiyete ndetse no mu ngo zabo muri rusange.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye, haba mu mutekano ndetse n'ahandi, ni bamwe mu bifatanyije mu gikorwa cy'umuganda ndetse himakazwa n'umutekano.

Abaturage ndetse n'abayobozi batandukanye nyuma y'umuganda rusange baganiriye ku mutekano ndetse abayobozi bashishikariza abaturage kwicungira umutekano barara amarondo kandi buri wese akaba ijisho rya mugenzi we.

Abakunda siporo ni bamwe mu baza kwihera ijisho imikino igitandukanye, cyane cyane iy'amaguru ndetse n'amaboko. Abayobozi bakangurira abaturage gufata neza ahakinirwa iyi mikino, mu rwego rwo kubungabunga ibikorwa remezo.

Umubare munini w'abaturage bakunda siporo uba wiganjemo urubyiruko, abana, abasaza ni bamwe mu baba baje kwihera ijisho imikino itandukanye, cyane cyane umukino w'amaguru.

Umubare munini w'abatuye ku isi usanga ukunda umukino w'amaguru. Ababyeyi barashishikarizwa gukundisha abana babo imikino igiye itandukanye kuko ibafasha kugira ubuzima bwiza nko gutuma amaraso atembera neza mu mubiri, ibihaha bigakora neza ndetse n'ibindi.

Umukino w'amaguru, ni umwe mu wugira amabwiriza atandukanye, hagomba kuba harimo abasifuzi, abakinnyi ndetse n'abafana baje kwihera ijisho. Abasifuzi bongeraho iminota y'inyongera, baba batandukanye n'abasifuzi bo ku mpande.

Leta y'u Rwanda irashishikariza ababyeyi gukundisha siporo abana bakiri batoya cyane cyane nko kujya babajyana ku bibuga by'imipira, bakihera ijisho. Ibi bikazafasha aba abana gukura neza ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Ababyeyi bagomba gushishikariza abana gukunda umukino w'amaguru kuko siporo ari ubuzima, ibi ngibi bagomba kujya babikora ndetse bagaha n'umwanya abana bakajya gukina.

Umukino w'amaguru ni umwe mukunzwe cyane abakora uyu mukino barashishikariza abaturage bose kuwukunda kuko utuma ubuzima bugenda neza.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru ni bamwe mu bagira urukundo rwinshi cyane kuko siporo ntago bigisha gukina gusa ahubwo ibigisha n'ikinyabupfura. Ibibuga bikinirwaho biba bigomba kwitabwaho, bigasigasirwa kuko ari ingirakamaro.

Buri wa Gatanu mu masaha ya nyuma ya saa sita abakunzi ba siporo bihuriza hamwe ubundi bakirukanka abagore, abagabo, abasore ndetse n'abakiri batoya ni bamwe mu baba bari muri siporo.

Siporo n'ubuzima ku bantu kuko ituma amaraso atembera neza mu mubiri, ibihaha bigakora neza kandi umuntu agatekereza neza. Abakunda siporo y'amaguru, ni bamwe mu baza kwihera ijisho uyu mukino kandi bagataha bishimye.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kubaka ibikorwaremezo harimo imihanda, amashuri ndetse n'ibindi, mu rwego rwo korohereza abaturage mu ngendo ndetse no mu buvuzi.

Abaturage bakorera mu bice by'icyaro, bavuga yuko imihanda yaho ari imwe mu bibabangamiye. Basaba Leta ko yabakorera ubutabazi, nabo bagakorerwa imihanda mu rwego rwo koroshya ingendo ndetse n'ubuhahirane n'utundi turere.

Abaturage batuye mu bice by'icyaro bashimira Leta kubwo kudahwema kubagezaho ibikorwaremezo birimo nk'imihanda, amavuriro, amashuri ndetse n'ibindi.

Abaturage bo mu bice by'ibyaro, bashimira Leta uburyo ikomeje kugenda ibagezaho ibikorwaremezo harimo imihanda, amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abakoresha imihanda yo mu byaro, ni bamwe mu bashimira Leta y'u Rwanda ko ikomeje kubagezaho ibikorwa remezo bigiye bitandukanye harimo, harimo imihanda, amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi. Aba baturage biyemeza ko bagiye kujya babibungabunga mu rwego rwo kubungabunga ibikorwa remezo.

Leta y'u Rwanda irasaba abaturage kwitondera no kwita ku bikorwa remezo nk'imihanda basana iyangiritse, abaturage na bo bavuga ko Leta igomba kujya ibafasha ikabakorera imihanda mu rwego rwo koroshya ingendo.

Ababyeyi, abarezi ndetse n'abandi, barashishikarizwa kujya bambutsa abana, kandi bakababuza kwiyambutsa, nko mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse n'impfu.

Abaturage bakora ingendo zitandukanye ndetse n'abatwara ibinyabiziga bitandukanye, ni bamwe mu bishimira ibyapa byo ku muhanda kuko bibafasha kubayobora ndetse ntibabure aho bajya.

Abaturage batuye mu bice by'ibyaro bavuga ko babangamiwe cyane n'imihanda idakoze, aha ngaha bakavuga yuko bibabangamira mu ngendo zabo za buri munsi. Leta y'u Rwanda na yo ikangurira abaturage gukora imiganda bagakora imihanda neza kuko na bo bagomba kwishakamo ibisubizo.

Abaturage batuye mu bice by'ibyaro bashimira Leta ko idahwema kubagezaho ibikorwaremezo birimo imihanda, amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi, ibi bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora ingendo zitandukanye mu bice by'ibyaro, barashimira leta ko yabashyimo imihanda ikoze neza. Ibi ngo bibafasha kugera iyo bagiye neza kandi n'ibinyabiziga byabo ntibyangirike.

Abatuye mu byaro bishimira ko leta y'u Rwanda yabagejejeho ibikorwaremezo bitandukanye, harimo imihanda ibafasha gukora ubucuruzi bwabo mu buryo bwihuse, ingendo zambukiranya uturere ndetse n'imirenge nk'uburyo bwihuse.

Abaturage batuye mu bice by'ibyaro bashimira leta y'u Rwanda ko ikomeje kubeyegereza ibikorwaremezo, harimo: imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi, bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abaturage batuye mu bice by'icyaro bavuga yuko Leta ikwiye kubaha ubufasha ikabubakira umuhanda uzajya ubafasha mu gukora ubucuruzi ndetse no gukora ingendo mu buryo bworoshye.